Abayobozi bateraniye ahantu hamwe bareba icyateza imbere abaturage n'ibitagenda ngo tubibafashemo.

Ubufasha butangwa na leta aho abayobozi bahurira hamwe bakareba ibyafasha abaturage, ibibazo bafite n'ibisubiozo by'ibyo bibazo.

Ikigo cya leta gishinzwe ibicuruzwa mu Rwanda kureba yuko bimeze neza ntakizahungabanywa,

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Inama ihuza abayobozi yiga ku imibereho y'abaturage ikarebera hamwe ibibazo biri mubaturage kugira ngo bikemuke...

Ibikorwa bya leta bihuriwemo n' abantu bagiye batandukanye aho baba bigira hamwe ibyateza imbere igihugu bigafasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi birinda kubaho nabi.

Ubufasha butangwa na leta aho abaturage bahurira n' abayobozi baje kuganira ngo barebe ibibazo biri mu baturage n'uko byakemuka.

Ahahurira abakozi ba leta bagiye batandukanye, bafatanya mukuganira kubyateza imbere abaturage, n'ibyabafasha.

Abayobozi bahuriye mu nama ya leta yiga ku baturage no kurebera hamwe ibitagenda neza kugira ngo bikosore.

Ibikorwa bya leta bifasha abaturage mu miberehomyiza aho abyobozi baza kuganira n'abaturage abaturage bakabagezaho ibibabangamiye.

Aho abaturage bahurira na bayobozi mu myambaro isa itandukanye niya bayobozi bakaza bakaganira ku bigiye bitandukanye ni byafasha guteza imbere igihugu.

Uburyo leta ikoresha abayobozi baganira ku byateza igihugu imbere n'ibibazo abaturage bafite bareba uko byakemurwa bitabagoye.

Icyumba gihurirwamo n'abayobozi bamwe ba bamwe bo muri Leta, biga ku bintu bigiye bitandukanye, harimo; imibereho myiza y'abaturage

Aho abayobozi bahurira bakaganira biga ku byateza imbere igihugu, byafasha n'abaturage kuba bari mu mibereho myiza.

Ibikorwaremezo bya leta aho abayobozi bahurira hamwe bakaganira ku bibazo abaturage bafite bagashaka n'ibisubizo byabyo.

Serivise ya leta aho abayobozi bahurira baganira bafata n'icyo kunywa bareba ibigenda neza mu guhugu n'ibitari kugenda n'ibyo abaturage babura.

Ibikorwa bya leta bifasha abaturage kubona ubufasha bwihuse bitagombeye ko bava mu rugo ngo bajye gushaka abayobozi aho bakoresha urubuga leta yabashyiriyeho rwitwa rw'irembo.

Uburyo bwa leta bushyirwaho bugafasha abanyeshuri kumenya uko bazajya biga amasomo igiye atandukanye.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Ibikorwaremezo bifasha leta mu gukurikirana imibereho myiza y'abaturage, abashinzwe iminara, ifasha amasosiyete y'itumanaho.

Uburyo bwa leta bufasha abatwara imodoka gusora, mu gihe bageze ku mipaka cyangwa se bari mu gihugu bakerekana ibyo basoreyeho.

Ibikorwaremezo harimo imihanda, abaturage bakeye, n'inyubako zikeye, ahashyirwa n'iminara.

Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byegerezwa abaturage kugira ngo bibafashe mu buzima bwawo bwa muri munsi; harimo iminara ikurura amalezo kuri telefone.

Uburyo bukoreshwa bwa Leta bwo kwishyura imisoro igiye itandukanye, aho abasora basorera ubutaka, inyungu ku mwaka.

Serivisi za leta zikorerwa mu biro hakoreshejwe terefone ngendanwa cyangwa mudasobwa.

Ibikorwa bya leta bifasha abaturage gukorera ahantu heza, hakeye hafite umutekano, hizewe haba ubucuruzi.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Gahunda ya leta yo gufasha abaturage kuba ahantu hakeye, ahari za batiri zishyirwa ku mapoto.

Ibikorwa bya Leta bifasha abaturage kugira ngo banone serivise zigiye zitandukanye, ahashingwa iminara kugira ngo abaturange babone amalezo yo kuri telefone zigendanwa.

Ibikorwaremezo bya leta bigiye bitandukanye bifasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi ahashinga iminara itanga amarezo kuri telefone na interineti.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, harimo kubaka imihanda, imodoka zikagenda neza mu muhanda, zitwaye abagenzi nta mpungenge hagashyirwa n'amatara ku mihanda amurikira ibinyabiziga.

Uburyo Leta ikoresha itunganya ahantu cyangwa ibintu kugira ngo igihugu kimere neza n'abagituye bagaragare neza.

Uburyo bushyirwaho na leta bwo gutanga amashanyarazi ku baturage, bita ngo "ntawe usigagara adacanye", aho buri muturage ahabwa umuriro.

Uburyo bwa leta bugiye butandukanye bwereka abaturage aho bagomba kwitondera kuko bashobora kubateza ibyago.

Ibikorwaremezo bikorerwa abaturage kugira ngo babeho neza , babe ahantu hakeye hameze neza aho babagezwaho amashanyarazi atangwa na leta.

Uburyo bwa Leta rusange bufasha urujya n'uruza rw'abantu kuba babona aho bifashiriza kuri toilette.

Ibikorwaremezo bya leta harimo ibifasha abaturage kugira ubuzima bwiza aho bubaka amavuriro ababyeyi bajya kuvurizamo abana no kubyariramo.

Uburyo buhuza abayobozi bagiye batandukanye, harimo umukuru w'igihugu, n'abo bafatanya kuyobora mu bindi bigiye bita.

Uburyo Leta yifashisha kugira ngo bamenye umuturage, aho bafata ifoto ye bakaba bayishyira ku cyangombwa

Uburyo bwizewe butangwa na leta bwo kuzimya inkongi y'umuriro, kugira ngo birinde ahantu ko hashobora gushya.

Uburyo bushyirwaho na leta bigakangurira abaturage bafite inyubako nini zikorwamo ibikorwa bigiye bitandukanye gushyiramo za kizimyamwoto.

Ahabera inama y'abayobozi bo muri leta bagiye batandukanye berekana ibibazo biri mu gihugu n'uko byakemuka.

Ibikoresho bikoreshwa na Leta hifashishwa mu kwerekana abaturage yuko nta buriganya bwabayemo aho abantu bafata agapaniye bakatujonjoreramo amajwi y'abatowe.

Uburyo bukoreshwa hifashishwa mu gutora abayobozi bagiye batandukanye aho bagaragaza abatowe, amanota bahageze n'ayo bagize ku ijana.

Abantu bagendana n'umuyobozi w'igihugu, bakamutegurira aho ari bunyure n'ibyo ari bukoreshe mu kuvuga ijambo mu buryo butandukanye abwira abaturage.

Uburyo leta ikoresha ifasha abaturage mu kuba bakitorera abayobozi bashaka, bababereye kandi babanogeye.

Umuyobozi w'igihugu wari kumwe n'undi muyobozi bahagaze imbere y'ikirango cy'igihugu kirimo ibintu bigiye bitandukanye harimo agaseke, izuba n'ikirango cyanditseho repubulika y' u Rwanda.

Ahahurizwa abayobozi bagiye batandukanye, baje kuganira ku byakubaka igihugu, bakareba n'ibitari kugenda neza, kugira ngo bishyirwe ku murongo.

Uburyo hategurwa iyo abayobozi bagiye gutambuka kugira ngo abayobozi bagende nta nkomyi ntawe babangamiye nta n'ubagiriye mu nzira.

Ibikorwa remezo bya leta bifasha abaturage kubaho neza nk'imihanda yubatse neza, ifasha imodoka kugenda ahantu heza n'abamotari.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Uburyo bwa leta bugiye butandukanye, bufasha abaturage mu mibereho myiza, harimo imihanda igezweho no gutera ibiti ku muhanda kugira ngo hazabe

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Imodoka zigenda mu mihanda nyabagendwa harimo izambuka imipaka izigenda bisanzwe ku butaka bw'u Rwanda z'abaturage...

Ibikorwaremezo byubakwa na Leta ku bufatanye n'abaturage harimo aho gutegera hagezweho, harimo umuhanda w'umukara wa kaburimbo hagacamo imodoka zibatwaye.

Ibikorwaremezo bifasha abaturage kugenda neza batekanye ahubakwa gare zihuriramo imodoka inini n'intoya.

Ibikorwa bya leta birimo imihanda myiza ikomeye igendwamo na bisi zitwara abagenzi n'imodoka zisanzwe.

Ibikorwaremezo byubakwa na Leta, harimo gare zigezweho zirimo n'imodoka zijyanye n'igihe, aho imodoka nini itwara abagenzi rusange.

Uburo bwa leta bugiye butandukanye ifashamo abaturage harimo kububakira imihanda myiza ikomeye ya kaburimbo, igashyiramo n'ibyapa biyobora imodoka.

Ibikorwaremezo byubakwa na leta ifatanyije n'abaturage nabo bakubaka inyubako zigezweho zikomeye zidashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Umuhanda kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye uba warakozwe na leta hanyuramo imodoka nini utumamoto.

Ibikorwaremezo nk'imihanda yubakwa na Leta n'inzira y'abanyamaguru kugira ngo abanyamaguru bativanga n'ibinyabiziga bagende neza bafite umutekano uhagije.

Uburyo bwa Leta bufasha abatuye mu gihugu kubona aho bidagadurira harimo ibyatsi by'umwimerere.

Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa bitewe n'umuhanda urimo aho kIba kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru.,

Uburyo bushyirwaho na leta ku mihanda nyabagendwa hashyirwaho ibyapa biriho aho bishinze n'umuhanda bishinzeho.

Icyapa gishingwa n'abakozi babifitiye ububasha, kiburira abagenda muri uwo muhanda nyabagendwa ko aho bageze hari umuvuduko utemewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Ibikorwa bya Leta bihabwa abakora imihanda bagategekwa gushyiramo ibyapa bigiye bitandukanye harimo ibiburira,...

Ibikorwa remezo bishyirirwaho abaturage harimo imihanda myiza ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga hashyirwa n'ibyapa biyobora ibinyabiziga aho biri bunyure.

Ibikorwaremezo bigiye bitandukanye bikorwa na leta harimo kubaka imihanda, gutera ibiti impande y'umuhanda kugira ngo bikurure umuyaga n'umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibi ibikorwa bya leta byo gushyira ibyapa ku mihanda bigenda byereka abaturage aho bageze kuko hitwa n'umuhanda bagezeho uwo ari wo.

Serivisi ya leta ifasha abantu kuba heza bagatura batekanye mu mutuzo aho batura mu mazu atuwe n'ahantu heza yubatse neza akomeye.

Uburyo butangwa na leta bwo gutuza abaturage ahantu heza, bagatura ahantu hatari mu manegeka, mu nzu nziza zigiye ziri ahantu hagiye hatandukanye ziba zarubatswe neza.

Ibikorwa bya leta bifasha abaturage baturiye hafi y'ibyo bikorwaremezo gukora neza nta nkomyi aho inzu ziba zubatse hafi y'imihanda zicururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ibikorwa remezo bigiye bitangukanye bikorwa na Leta, harimo; kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga, kubaka borudire i ruhande rw'umuhanda kugira ngo amazi abone aho anyura, ntagere mu muhanda ngo wangirike.

Ibikorwaremezo byubatse neza ku bufatanye na leta aho bububatse inzu zikomeye kugira ngo abaturage babeho batekanye ubuzima badashyiraho

Ibikorwaremezo bigiye bitandukanye harimo imihanda, ibiraro byo hejuru byubakwa na leta.

Ibikorwaremezo bya leta harimo kubaka imihanda myiza ikomeye binyura hejuru ku biraro binyura hasi haterwa, n'ubusitani hafi y'umuhanda.

Ibikorwa bya reta bigiye bitandukanye harimo imihanda, inzira nyabagendwa ahanyurwa nk'abagenzi mu muhanda harimo imirongo y'umweru ibinyabiziga bigera bikabanza bigahagarara kugira ngo abagenzi bambuke.

Ibikorwa bya Leta, harimo imihanda myiza ikomeye ya kaburimbo iriho imiringo iyobora ibinyabiziga kugira ngo bigende neza mu muhanda.

Ibikorwaremezo bya leta, harimo kubaka imihanda myiza, bigashyiraho aho abantu baparika mu gihe bakeneye guhagarara byihutirwa, n'ibiti biterwa ku mihanda.

Ibikorwa remezo bya leta aho bubaka imihanda igiye itandukanye ikomeye ya kaburimbo iriho imirongo iyobora ibinyabiziga kugira ngo bigende neza mu mumuhanda.